Abantu bicaye mu nzu mberabyombi, harimo abazungu n'abirabura, imbere yabo hari impapuro.

Amakarito menshi, ari kumurongo. Afite ibyapa byumweru, byandikishijwe mu mabara y'umukara, abifite...

Abagore bane bahagaze ku ruhande rwabo rw'iburyo, idarapo ry'igihugu, ku ruhande rwabo rw'ibumoso hari ikirangantego, hejuru yaho hari ifoto.

Igikamyo cy'umutuku cyikoreye ibintu kiri kugenda mu muhanda, inyuma yaho hari ibiti byinshi.

Icyapa giteye mu busitani gifite umuzenguruko w'umutuku cyandikishije mu ibara ry'umukara, inyuma yacyo hariyo igiti imbere yacyo hariho umuhanda.

Amatara ndanga cyerekezo agaragaza ko umuntu yemerewe kwambuka umuhanda, mu minota mirongo itatu n'ine.

Umuntu uri kugenda mu muhanda imbere hicaye umuntu munsi y'umutaka wa MTN ku ruhande rw'umutaka hari ipoto ryamashanyarazi hirya ryo poto.